Ubu ni ubukomo bukozwe mu mabara agiye atandukanye harimo umweru, ubururu, umutuku n'umuhondo.

Aha ni ku ruganda rukora imodoka harasa neza cyane ni inyubako yubatswe neza aho hejuru hari ikirangantego cyu'urwo ruganda.

Aha ni kukagera Motors, hari imodoka nziza cyane ndetse n'abagabo babiri, barimo guha kontake undi mugabo.

Abana bicaye barimo kunywa amata ndetse n'umugati, imbere yabo hahagaze umuntu wambaye umupira w'umweru, urimo kubasukira amata abaha n'ibyo kurya.

Aha naho bagurira amata y'ubwoko butandukanye agiye apanze mu ma etageri ndetse n' ari mu binica.

Uru ni urutonde rugaragaza ivunjisha ry'amafaranga. Amanyamerika, amanyakenya, amatanzania ndetse na

Aya ni amafaranga yo muri Tanzaniya harimo inoti y'ibihumbi cumi, inoti ya bitanu, inoti ya bibiri, inoti y'igihumbi ndetse n'ibiceri byanditsweho banki nkuru ya Tanzaniya.

Aha ni aho bagurishiriza ibintu bitandukanye harimo intebe, matera, utubati byiza cyane.

Iyi ni hoteri nziza cyane. Imbere yaho hariho imitaka ndetse n'intebe abantu bicaraho barimo kuganira. Hari n'indabo nziza cyane n'amatara.

Iyi ni inzu igeretse gatatu. Imbere yaho hari ibyapa bigaragaza icyo ikorerwamo. Itangirwamo serivisi y'ubwishingizi.

Iri ni isoko ryiza cyane ririmo imbuto zitandukanye hicaye umugore urimo kuzicuruza yishimye cyane.

Iri ni isoko ricuruza ibikoresho bya kinyarwanda. Harimo imyenda, amacumu, uduseke ndetse n'amafoto agaragaza umuco wa kinyarwanda.

Iyi ni inzu itanga serivisi za MTN, isizwe amabara y'umuhondo. Ndetse harimo n'umuntu, urimo gutanga iyo serivisi.

Izi ni inzu zitanga serivisi za MTN, hari abantu baje gushaka izo serivisi ndetse n'abari kuzitanga.

Iyi ni inzu itanga serivisi za emutiyeni, harimo nko kubitsa, kubikuza ndetse no kugura ama inite.

Iyi ni inzu bacururizamo ama inite cyangwa umuntu ukeneye kubitsa amafaranga cyangwa kubikuza, urabona harimo umucuruzi mo hagati ndetse n'umukiriya waje gushaka serivisi.

Aha n'uburyo bwo kugura ibintu ukeneye ukoresheje ikoranabuhanga, imbere yacu hari mudasobwa, imyenda n'ikarita n'udukapu two kugenda utwaramo ibintu umaze kugura.

Inzu isize irangi ry'umweru, icuruza imyenda itandukanye, imbere haparitse imodoka, ndetse mo ndani hagiye harimo imyenda bagurisha.

Iyi ndabona ari inzu nziza cyane, harimo intebe nziza zo kwicaramo muruganiriro n'ameza meza akozwe mu biti.

Inzu nziza cyane ifite irangi ry'umweru ndetse n'umutuku iruhande rwayo hari indabo nziza, hasi hashashe amabuye meza cyane agaragaza urugo.

Isoko ryiza cyane rigerekeranye inshuro enye. Hagiye hariho ibyapa bigaragaza icyo bakora. Ndetse hasi hari amakaro meza cyane n'imyenda igurishwa.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi nziza cyane icuruza ibintu by'abagore, harimo amasakoshi, amarinette, inkweto ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye bigiye bipanze mu tubati ndetse n'aho byagenewe.

Aba ni abantu bicaye mu nzu barimo guhabwa ikiganiro, ku bintu bitandukanye bijyanye n'ubuzima imbere yaho hicaye abagabo barimo kubaganiriza kuri iyo ngingo.

Aba ni abantu icyenda, harimo abagore babiri ndetse n'abagabo barindwi barimo kwifotoza imbere y'ikigo RSSB.

Iri ni isoko rya kijyambere abantu bahahiramo ibiribwa bitandukanye ho tubonamo amavuta, amata, n'ibindi bitandukanye byiza.

Iri ni isoko ryiza cyane. Harimo utubati tugiye dupanzemo ibyo biribwa ndetse n'amatara na kamera zifata ibiri gukorerwamo.

Iri ni isoko ryiza cyane harimo utubati tugiye dupanzweho ibicuruzwa by'ubwoko butandukanye.